Umuntu wambaye ingofero ahetse uruntu mu mugongo, afite n'akantu mu ntoki arimo kugenda atera umuti mu mirima, ni byiza ko mu myaka twahinze duteramo imiti igiye itandukanye hari iyica udusimba ndetse igatuma n'imyaka ikura neza.

Abagabo babiri umwe yambaye ishati y'amabara y'umweru n'umukara, ishati mu mufuka harimo bic y'ubururu yambaye n'amataratara, imbere ye kandi hari undi musaza wambaye umupira w'ubururu ,yambaye ingofero afashe agapapuro mu ntoki ,arimo kukamuhereza ubona ko ari kukavugiraho n'andi magambo.

Umurima w'ibitunguru ugiye urimo udupariseri dutandukanye, hari ibitunguru byinshi, muri ibi bitunguru harimo umugabo uhetse ikibuni cy'umuhondo, yambaye bodaboda arimo gutera umuti ibi bitunguru, inyuma ye kandi hari inzu ziri guhinguka z'amabati n'ibiti biri hejuru.

Umuntu wambaye imyenda y'umweru ga ntoki ahetse ikijerekani cy'icyatsi gifite umufuniko w'ubururu arimo atera imiti mu myakagira ngo itazagira indwara zimwe na zimwe ziza muri iyi myaka bigatuma itera.

Abantu batatu barimo uri hagati wambaye agapira k'umutuku undi yambaye umupira w'ingofero, impande ye hari undi yambaye ibirenge n'ipantaro y'umukara, inyuma yabo kandi hateyemo ibiti, hafi yaho hari abandi bantu babiri bahagaze umwe wambaye isengeri y'umweru.

Umugore ubyibushye witeza igitambaro, yambaye agapira k'umuhondo n'ijipo y'umuhondo, umukara n'umutuku. Uhagaze mu byatsi impande ye hari kandi hari ikiyaga kirimo amazi manini hafi yacyo hateye insina ndetse hubatse n'inzu y'amabati.

Umugore wambaye ishati y'igitenge afashe ifi mu ntoki abandi hari undi wicaye yeteza igitambaro mu mutwe inyuma yuyu mugore kandi hari ishyamba rinini riteyemo ibiti bande ishyamba harimo umuhandando w'ibitaka.

Abantu bari mu mazi bamwe bambaye ibisarubeti bya kake, undi uri hagati yambaye ikote ry'ubururu ,rifite umukara ku ruhande ,yambaye n'ingofero ya kake, babiri bafite indobo z'ubururu .Undi afite indobo y'icyatsi barimo kudaha amazi ,impande y'abo kandi hari undi muntu ,ushaka kwinjira mu bwato bw'igiti.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe harimo uwambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukarandamo, undi wambaye umupira w'mweru n'umukara, ni'pantaro y'umukara . Impande yabo hari ibiti ndetse hari n'indi nzu isakaje amabati y'umutuku isize amarangi y'umweru.

Mu Rwanda haba inyanja ndetse hakaba n'ibyuzi, aho usanga bororamo amafi menshi, aho usanga tugira ifi nyinshi cyane, ahangaha rero hari isahani irimo amafi menshi, hejuru hari urufi runini cyane ndetse n'utundi dufi dutoya.

Mu Rwanda dufite ibihingwa ngengabukungu harimo ikawa ndetse n'icyayi, aha ngaha rero ni umurima w'icyayi, harimo umuntu urimo gusarura icyayi, yahetse isero mu mugongo arimo gusoroma icyayi, impande y'iki cyayi hari umusozi uteyeho ishyamba.

Muri pepenyeri aho abantu binariza imbuto aha ngaha rero hari imbuto nyinshi binanjije ziri mu bihoho, zifite amatabi abyibushye muri izi mbuto kandi, hagati muribyo hagiye hateyemo ibiti biteye ku murongo harimo igiti kimwe kinini kibyibushye.

Abantu benshi bari mumuma barimo gusarura, hari umugore uteze igitambaro cy'ubururu, hirya kandi hari undi ufite imisatsi y'umukara, impande yabo hari undi yiteze igitambaro cy'umweru, bose barunamye barimo gusarura imyaka.

u Rwanda ruri mu bihugu bihinga ibihingwa ngengabukungu birimo icyayi, aho usanga nko mu turere tumwe na tumwe tw'u Rwanda bahinga icyayi, cyane cyane mu majyaruguru nko muri rulindo, mu majyepfo nyaruguru ndetse no mu karere ka karongi, hose bahinga icyayi, ahangaha rero ni mu murima w'icyayi, harimo abagore babiri barimo gusarura icyayi, bahetse ibisero mu mugongo barimo kugenda banaga banagamo.

Ikawa iri mu bihingwa bihingwa mu gihugu cyacu, aho usanga ihingwa, ikanera ndetse no hanze yigihugu naho bakayigemura, hirya aha ngaha rero hari umugore, afite ikawa harimo ikawa zeze z'umutuku ndetse n'ikawa zitari zera, yiteze igitambaro cy'umukara, yambaye agapira k'umukara n'umweru, impande ye kandi hari ibiti by'ikawa.

Mu Rwanda dufite inganda nyinshi z'icyayi hari ikiri mu majyaruguru ndetse n'ibiri mu majyepfo, ahangaha rero ni icyayi cyeze kirimo abantu babiri barimo kugisarura, hari umugore uheretse iseru mu mugongo afite icyayi azamuye akaboko agiye kunaga inyuma mu isaro hirya kandi hari undi mugore nawe urimo gusuroma icyarayi.

Icyayi giteye ahantu mu gishanga kirambitse neza hafi yacyo hari ahantu harimo ibyatsi hadateye icyayi, muri iki cyayi kandi harimo umuntu uhagaze wambaye agapira k'umutuku, hakurya y'icyayi hateye ishyamba rinini ndetse hari n'imisozi.

Umuhungu bamu umupira w'umuhondo, wifashe mu mayunguyungu, ahagaze mu murima w'ikawayi, iyi kawa itari yera ariko ubona ko ibyibushye, imeze neza, impande y'iyi kawa hateye urutoki, hafi yabo kandi hari ishyamba ririmo ibiti binini.

Mu bihingwa ngengabukungu tugera mu Rwanda harimo n'icyayi, aho usanga dufite inganda nyinshi z'icyay, ahangaha rero ni mu cyayi harimo abagore babiri bayiteze igitenge undi ateze igitambaro cy'umukara baretse sera mu mugongo zirimo icyayiimpande y'i cyayi kandi hateye ibiti.

Mu Rwanda tugira ibihingwa byinshi harimo ibihingwa ngengabukungu n'ibihinga ngandurarugo. Mu bihingwa ngengabukungu tugira harimo n'icyayi. Aha ngaha rero ni mu murima w'icyayi. Hari umubande urimo icyayi kinini kimeze neza ubona ko kiringaniye hagiye haciyemo imisitari, impande y'iki cyayi kandi hakikijwe n'ibiti.

U Rwanda tugira ibihingwa byinshi ibihingwa ngengabukungu n'ibihingwa ngangandurarugo. Ibihingwa ngengabukungu tugira harimo icyayi ndetse n'ikawa n'ibireti. Aha nga rero hari ikawa yeze, hariho izeze z'umutuku ndetse n'iz'imitubwe zitari zera n'izigaragara ko zenda kwera.

Mu Rwanda dufite ibihingwa ngengabukungu n'ibihinga ngandurarugo, aho duhinga icyayi ndetse n'ikawa aha ngaha ni mu murima w'icyayi, hari umugabo uhagaze wambaye aka gofero k'umweru n'ishati y'umweru arimo gusoroma icyayi. Hari icyayi cyinshi rero harimo icyayi cyeze ndetse n'ikindi bamaze gusarura.

Mu Rwanda dufite ibihingwa ngengabukungu harimo ikawa ndetse n'icyayi, ahangaha turabona umugore urimo gusarura icyayi afite ibyayi mu maboko yombi arimo guseka, yipfutse igitambaro mu mutwe, yambaye agapira karimo umuhondo, ubururu, ndetse n'umukara ahagaze mu cyayi mo hagati inyuma yiki cyayi hateye ishyamba.

Mu Rwanda duhinga ibihingwa bitandukanye, harimo ibihingwa ngengabukungu n'ibihingwa ngandura rugo, mu bihingwa ngengabukungu duhinga, harimo ikawa hakabamo ndetse n'icyayi, icyayi akaba kiri akenshi mu nce z'icyaro nko mu majyaruguru no mu majyepfo hariyo icyayi, aha ngaha rero hari icyayi, giteze neza ubonako gishashe, kimeze neza, ntago bari basarura icyayi, hari n'icyayi gifite amababi manini.

Icyayi kiri mu bihingwa bihingwa mu Rwanda ndetse bigatanga n'umusaruro mwinshi, ahangaha rero ni icyayi kinini cyane kigiye gisa n'ibirimo imibande, ahandi hameze nk'umusozi ndetse harambitse neza, ahantu bari gusara icyayi batondetse ku murongo bambaye ibitabi by'umuhondo, bahetse ibyo bogeramo mu mugongo, hakurya yabo kandi hari ishyamba rinini rifite ibiti byinshi cyane.

Mu Rwanda duhinga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ahanga rero hari umugabo uhagaze mu mirima imyaka yamucagase, yambaye ishati amaboko yashyize inyuma inyuma, ye kandi hari ishyamba rinini ririmo ibiti byinshi bimwe nibirebire ibindi n'ibigufi.

Abagore harimo n'umugabo umwe bose barunamye ,umugabo yambaye agapira k'umutuku kandikishijeho amagambo y'umuhondo inyuma, yambaye ingofero impande hari umugore yiteze igitambaro cy'umutuku, akenyeye igitenge. Hirya hari undi ushyizeho akaboko imbere, nawe witeze igitambaro cy'umuhondo, undi we asa nk'urimo guhaguruka afashe ibyatsi mu ntoki.

Mu Rwanda tugira inganda zitandukanye zitunganya icyayi cyoherezwa hanze y'igihugu cyacu ndetse n'igikoreshwa mu gihugu. Aha ngaha rero hari icyayi harimo abasoromyi batatu, harimo abagabo babiri n'umugore umwe. Umugabo umwe yambaye imyenda y'umukara ahetse isero n'umugore we yiteze igitambaro nawe ahetse isero undi mugabo we nta kintu afite.

Mu Rwanda duhinga ibihingwa bitandukanye harimo ibihingwa ngengabukungu birmo ikawa, icyayi ndetse n'ibireti, tweza ibihingwa ngandurarugo aha ngaha rero dufite igihingwa ngengabukungu cy'ikawa, ikawa ifite amababi hamwe yabaye umuhondo andi akiri icyatsi, iyi kawa kandi iriho imbuto zitari zera zikiri imitumbwe.

Mu bihingwa ngengabukungu tugira harimo n'ikawa, aho usanga hirya no hino mu gihugu bahinga ikawa bakayisarura bakajya kuyigurisha, ikavamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ahangaha rero hari umugore wambaye agapira k'umuhondo gafite n'ibara ry'umukara kuyikora yaricaye harimo gusoroma ikawa inyuma y'iki giti kikawa afashe hari insina y'umubyare.

Mu Rwanda tugira ibihingwa ngengabukungu harimo ikawa, icyayi n'ibireti ariko cyane cyane twita ku cyayi, ahangaha rero ni mu cyayi, harimo abantu babiri barimo gusarura icyayi, hari umugabo uhagaze birimo guseka, afite akababi k'icyayi mu ntoki ahetse igisero akenyeye itaburiya y'umuhondo yambaye umupira urimo amabara.

Mu Rwanda tugira ibihingwa ngengabukungu ruhimangandura ruku mu bigan ngengabukungu tugira rero harimo ni'kawangararana umurimo w'ikawa harimo ikawa zeze zatukuye ndetse n'izindi zitotararizatukura muri uyu murimo kandi harimo umugabo urimo kugenda wambaye ingofero ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara yikoreye umufuka w'umweru umwe.

Mu bihingwa ngengabukungu tugira mu Rwanda harimo n'icyayi aho usanga icyayi kigenda kigira umusaruro mwinshi utandukanye n'inganda zacyo zigenda zaguka, aha ngaga ni mu umurima w'icyayi harimo umugore wambaye agapira k'umutuku witeze igitambaro, afite igisero mu ntoki ,ahagaze hagati mu cyayi impande hari n'ikindi gisero kirimo icyayi hafi y'icyayi kandi hateyeho ibiti.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere, aho hari amakampani menshi asigaye akora umushinga wo korora inkoko, hari izituragisha ndetse naborora inkoko nkuru, ahangaha rero hari inkoko nini ziri ahantu hamwe, hejuru yaho hari utuntu tw'umutuku zumviramo imiziki.

Umugore yambaye umupira w'umuhondo, akenyeye igitenge cy'umuhondo, yateza igitambaro mu mutwe arunamye, arimo gushyira urubuto mu gihoho, impande ye kandi hari umugabo uhagaze yambaye umupira w'icyatsi, ipantaro y'umukara, arimo kuvugira kuri terefone,

Abantu bari ahantu hamwe ,harimo umuntu wambaye amataratara, afite umufuka mu ntoki uteyemo igiti. lmpande ye hari umukobwa wambaye ipantaro y'umukara ,n'umupira w'imbeho, afashe ku mufuka. Afite ibisuko by'umukara ku mutwe ,hafi y'abo kandi hari undi urimo kugenda uhetse agakapu mu mugongo, inyuma y'uwo muntu nabwo hari undi uhagaze ,wambaye agapira k'umuhondo.

Ni byiza ko dukomeza guteza imbere ubuhinzi kuko usanga abantu benshi batunzwe n'ubuhinzi abahinga ndetse n'abadahinga bose usanga barya bya bindi byahinzwe, rero ni ngombwa twese tujye twita ku buhinzi. Ahangaha rero hari umurima uteyemo ibigori byiza bibyibushye hafi yaho kandi hari n'umubande na wo urimo ibyatsi.

Umugore wambaye ibitenge yifubitse igitambaro mu mutwe yikoreye intebe isize irangi ry'ubururu, inyuma ye kandi haru umusaza urimo kugenda wambaye ipantaro y'ubururu yambaye n'igofero afite agakoni mu ntoki. impande y'aba bantu kandi hateye ibiti hari n'uruzitiro rusize amarangi y'ubururu.

Abahinzi bari mu murima, umurima w'inanasi arimo innanasi zibyibushye. Hari umugore wicaye witeza igitambaro yifubitse sorupe yambaye agapfukamunwa impande yicaye umugabo wambaye agapira k'umukara ipantaro y'umuhondo, bote z'umukara, agapfukamunwa, n'ingofero, iruhande rw'umurima kandi hateyeho n'insina.

Ni byiza ko abantu bose basigaye bajya mu buhinzi, nta kuvuga ngo uyu ni umugore cyangwa se uyu ni umugabo ,ahubwo bose bagomba kubijyamo kandi babishishikariye kugira ngo babone umusaruro mwiza. Aha ngaha rero ni mu murima harimo umugabo wambaye ishati irimo uturongo, ipantaro y'umukara ,arasutamye arimo gutera urubuto mu murima.

Inka nini zifite n'amahembe manini ziri ahantu, imwe iri mu muhanda w'ibitaka indi iri hirya mu byatsi, inka imwe irimo kureba iruhande rw'ibumoso indi irimo kureba hasi, hirya y'aho kandi hari ishyamba ririmo ibiti binini.

Umugabo ubyibushye wambaye ingofero y'umukara, ishati y'amaboko magufi arasutamye afite imbuto mu ntoki arimo gutera, inyuma ye kandi hari ibyatsi binini cyane, inyuma yaho hari n'ishyamba, imbere ye hari imbuto yagiye atera zifite amababi manini.

Abagore bakomeje kwiteza imbere, aho usanga bakora itsinda bakishyira hamwe, ubundi bagakora ikintu kimwe kugira ngo abashe gutera imbere, aha ngaha turabona abagore benshi, bari mu murima w'amashu, hari umugore yambaye agapira k'ubururu, hari undi wambaye ibitenge bisa, bose barunamye barimo gukorera amashu.

Ni byiza ko abantu bose bafatanya imirimo yaba abagore ndetse n'abagabo, aha ngaha rero harimo abagore n'umugabo umwe bari mu murima, imbere yabo hari umugore ufashe ibyatsi mu ntoki inyuma yabo kandi hari n'umugabo wambaye ingofero agapira k'umutuku hafi yabo hateye ibiti.

Mu Rwanda uburinganire n'ubwuzuzanye bukomeje kwimakazwa imbere aho usanga yaba umugore cyangwa umugabo bafatanya mu mirimo yose, aha ngaha turabona umugore wambaye imyenda y'ibitenge arimo gutera imbuto akoresheje majagu, impande ye hari umugabo wambaye imyenda y'umukara na we ubona ko yunamye arimo kumufasha.

Abantu bari ahantu hamwe harimo umwana wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, imbere ye hari umukobwa wambaye ingofero n'jire, n'ibisuko b'umukara arimo kumuhereza urubuto mu ntoki .Inyuma ye kandi hari umugabo munini wambaye ingofero y'umuhondo n'amataratara impande kandi hari umudaso wambaye imyenda y'icyatsi.

Uburinganire n'ubwuzuzanye bukomeje kwiyongera mu gihugu cyacu, aho usanga umugore cyangwa se umugabo bose bagenda mu murima bagahingaga, rero hari abantu babiri bafite amasuka ku rutugu barimo kugenda impande bari kugenda hari ibyatsi binini.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere aho usanga basigaye bahinga ibihingwa bigiye bitandukanye, kandi bakabaha n'amasoko yo kugurishamo kugira ngo badacika intege, aha ngaha ni mu murima turi kubonamo umugore wambaye umupira w'umukara, ufite ikora ry'umuhondo, yambaye ijipo y'umutuku irimo amabara y'umukara.

Mu Rwanda usanga ari ahantu bacyorora inka nyinshi cyanecyane mu karere ka Nyagatare ndetse n'akarere ka Kirehe, usanga bagifite inka nyinshi cyane, ahangah rero ni inka ziri mu biraro zihagaze zitonetse ku murongo zifite amabara y'umweru n'umukara, hari inka hagaze imbere yazo yasohotse mu kiraro y'umweru n'umukara.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro n'ipantalo y'umweru, arimo gusunika igare ritatseho ibara ry'umuhondo n'iry'icyatsi, iri gare kandi rihambiyeho ibintu ahantu ari kugenda anyura, n'umurima urimo ibyatsi byinshi.

Ni byiza ko dukomeza kwimakaza umuco w'abuhinzi mu gihugu cyacu kugirango tujye tubasha kwihaza twirinde kujya guhahira ibintu hanze y'igihugu cyacu, aha ngaha rero turabona umugore n'umugabo, umugabo yambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara, umugore yambaye agapira k'umukara, akenyeye igitenge, bafashe igiti cy'imyumbati kiriho imyumbati myinshi kandi minini.

lyo witaye ku nka ukayigaburira neza, ukayiha ubwatsi bwiza ndetse n'amazi, nayo itanga umukamo mwiza. Aha ngaha rero hari inka nini ,ifite icebe rinini, imbere y'ayo hari umugabo usutamye, wambaye ingofero y'umweru, umupira w'umweru ,na bote z'umukara ,afite indobo arimo gukama.

Abantu bari mu murima barimo guhinga ,imbere y'abo hari umuhungu wambaye agapira k'umweru, ikabutura y'ubururu ,arimo guhinga. lnyuma ye hari umugore wambaye agapira k'umuhondo, akenyera igitenge ,azamuye isuka ,inyuma y'abo kandi hari umugabo wambaye ubusa hejuru, n'ipantaro y'umukara ,nawe afite isuka yazamuye mu ntoki , impande y'uwo murima akikijwe n'ibiti byinshi.

Umugabo uhagaze wambaye ikote n'ipantaro n'ishati, afashe inkoni mu ntoki impande ye hari inka nyinshi ziri mu rwuri zirimo kurisha, hari n'indi ihagaze itarimo kurisha, impande y'izi nka kandi hari igiti kinini gifite amashami agandaye.

Umugore urimo kugenda wambaye bote z'umukara, ijipo y'umukara, yiteze igitenge mu mutwe, afite isuka mu ntoki n'amabase atatu mu ntoki, harimo ibase y'umutuku, arimo kugenda mu kayira k'igitaka, imbere ye kandi hari abandi bantu benshi bahagaze hamwe impande y'uruzitiro rw'ibiti.

Uburinganire n'ubwuzuzanye bukomeje kwimakazwa imbere aho yaba umugore n'umugabo bose basigaye bakora imirimo, ahangaha rero turabona inka nyinshi zihagazemo abantu babiri, umugore n'umugabo , umugore yambaye ikanzu n'agagofero k'umutuku, umugabo yambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umukara, n'ingofero y'umukara.

Uburinganire n'ubwuzuzanye bukomeje kwiyongera, aho usanga haba umugore ndetse n'umugabo nta wukigira imirimo akora ahubwo bafatanye mu bintu byose ,aha ngaha rero hari umugore n'umugabo, umugore ari imbere yiteze igitenge akenye n'ikindi arimo kugenda, ni inyuma ye hari umugabo urimo kugenda, wambaye agapira k'umukara, afashe umuhoro mu ntoki, ndetse n'icupa rivamo ji yitwa energy.

Ubwuzuzanye bukomeje kuganda mu gihugu cyacu, aho usanga umugore ndetse n'umugabo bafatanya imirimo yose nta kuvanga ngo iyi niy'umugore cyangwa se niy'umugabo. Ahangaha rero turabona mu murima harimo umugore n'umugabo, umugabo yambaye isarubeti y'ubururu n'ingofero y'ubururu, umugore yiteze igitambaro cy'umukara yambaye n'umupira w'umukara bose barunamye.

Inka zifite amahembe manini zifite n'utwana turimo konka, imbere y'izi nka hari ikiraro cyubakishije ibiti n'amabati, hari n'umugabo uhagaze wambaye bote z'umukara, isaruti y'ubururu, impande yaho kandi hateye ibiti binini.

Abantu bicaye mu murima, harimo umuntu wambaye bote z'umukara n'ingofero y'umukara, impande hari undi wambaye umupira w'umukara, yifashe mu gahanga, imbere yabo kandi hari umuntu uhagaze, urimo gutanga ikiganiro, wambaye ipantaro y'umukara, impande y'aha hantu bicaye hateyemo ibiti.

Mu Rwanda usanga hari uburinganire n'ubwuzuzanye, nta mirimo ihari y'umugore cyangwa y'umugabo usanga bafatanya bakayikora. Turabona umugore yipfutse igitambaro afite inyanya mu intoki, agiye gukata ubwatsi, nyuma yaho umugabo uhagaze wambaye ishati y'umukara.

Inka nyinshi zifite amabara y'umukara n'umweru ziri ahantu hamwe mu kiraro cyubakishije ibyuma, ebyiri zirimo kurisha zamba amahere, indi irahagaze gusa yo ntawo irimo kurya nayo yambaye ihena ku gutwi kw'ibumoso ndetse n'ukw'iburyo.

Abantu bahagaze hamwe batonze umurongo, harimo wambaye imyenda y'umukara yabarebapolisi ningofero undi ni umudaso wambaye ingofero yicyatsi nishaticyatsi ni ipantaro y'icyatsi kandi hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara ishati y'umweru hari n'umugore ubyibushye nabi wambaye ipantaro nishati imbere yabo kandi hari ibihingwa.

Abagabo batatu bari mu murima, umwe arunamye yambaye isarubeti y'umukara, ingofero y'umukara afashe umufuka mu ntoki yahinnye, impande ye hari abandi bagabo babiri bicaye yambaye ishati y'umweru, undi yambaye ingofero, inyuma yabo kandi hari abantu bahagaze ndetse hakurya harimo umusozi uteyeho ishyamba.

Abantu bari guhinga mu gishanga b'abagore, harimo umugore wambaye ijipo y'ubururu, agapira k'umukara, hari n'abandi bunamye biteze ibitambaro, muri uyu murima kandi harimo akayira k'umuhanda w'igitaka kari kunyura hagati mu murima.

Uburinganire n'ubwuzuzanye bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, aho usanga abakobwa, abagabo n'abagore bose bakora imirimo imwe ntawe uhejwe gukora umurimo, ahangaha ni mu murima urimo abagore n'abagabo, hari umugore wambaye igitenge yiteze n'igitambaro ufashe ikigori mu ntoki ndetse harimo n'umugabo wambaye agapira k'amabara na we afashe ikigori mu ntoki.

Imbuto nyinshi ndetse n'imboga ziri ahantu hamwe, buri rubuto rugiye rutondetse ku murongo ukwarwo, hari ahari insenda, hari ahari kokombure, hari ahari karoti, hari ahari amaronji, hari inyanya, hari imineke, hari na pavuro.

Amapapayi usanga iyo yaguhiriye yera kandi agatanga umusaruro munini, ahangaha rero hari igiti cy'ipapayi kinini cyane kibyibushye, impande yacyo kandi haturitseho ikindi giti nacyo kizana amababi hari amababi akiri icyatsi ndetse n'andi mababubi yo hasi yabaye umuhondo.

U Rwanda ruhinga ibihingwa ngengabukungu n'ibihingawa ngandurarugo, ariko usanga ahanini ibihingwa ngandurarugo aribyo byibandwaho cyane kuko aribyo bitunze abantu. Ahangaha rero ni umurima harimo ibishyimbo biri kumera bike bitatanye ndetse hari n'imwumbati ufite amababi meza atoshye uri mu murima uteye.

Ibigori ni igihingwa gikomeje gutezwa imbere mu gihugu cyacu, aho usanga abantu bahinga ibigori babaha ifumbire ndetse n'imbuto naho kuzabisarura mu gihe byeze ahangaha rero hari ibigori byumye bigaragara ko basaruye ibigori.

Mu Rwanda duhinga ibihingwa bitandukanye, harimo n'igihingwa cy'ibirayi tugenda duhinga cyane cyane mu Karere ka Musanze, hari ibirayi bya Kinigi, makoro n'ubundi bwoko, aha ngaha rero hari ibirayi binini, bibyibushye, byaba byiza ubitetsemo ifiriti.

Mu Rwanda dufite insina aho usanga hari ibitoki bimwe na bimwe tugira bitavuye hanze ahubwo gihugu cyacu. Ni umurima w'insina z'urutoki harimo ibitoki bimwe byagiye bizaho ndetse hari n'ahandi hatari hazaho ibitoki.

Igihingwa cy'ibigori gikomeje gutezwa imbere cyane kuko usanga kigira umusaruro munini ugereranyije n'ibindi bihingwa, aho usanga ibigori byera bakabirya bikiri bibisi bakabisyamo ifu y'igikoma ndetse akanabikuramo akawunga aha ngaha rero hari umurima w'ibigori mu muririma w'ibigori kandi hateyemo n' insina.

Mu Rwanda tugira ibihingwa ngengabukungu tukagira n'ibingwa ngandurarugo, ahangaha turahabona urutoki harimo umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, arimo arakorera urutoki rwe neza, arimo gukuraho ibishangarara byumye agasigaho amakoma ameze neza, uru rutoki kandi rugiye rutatanye ntabwo rwegeranye aribyo bituma urutoki ruzana ibitoki binini.

Mu Rwanda ubuhinzi bwateye imbere aho usanga hari nk'abantu bahinga igihingwa kimwe akacyitaho kugira ngo gitange umusaruro, aha ngaha rero hari umugore wambaye ibitenge yiteze n'igitebo mu mutwe gisa n'ibyo yambaye, ahagaze mu murima y'ibigori ibigori binini byatangiye gusambura.

Mu Rwanda, tugira ibihingwa ngengabukungu n'ibihingwa ngandurarugo, ahangaha rero harimo ibihingwa ngandurarugo, harimo insenda z'umuhondo n'imiteja, inyanya na kokombure.

Mu Rwanda duhinga ibihingwa bitandukanye harimo ibihingwa ngengabukungu n'ibihingwa ngandurarugo. Mu bihingwa ngengabukungu harimo ikawa, imireti ndetse n'icyayi, mu bihingwa ngandurarugo harimo imyembe, ibijumba, ibirayi, amatunda n'ibindi. Ahangaha rero hari igiti cy'indimu, kiriho indimu zenda kwera eshatu zitondetse ku murongo.

Abantu benshi bari ahantu hamwe harimo umugabo wambaye aga ingofero k'abasilamu n'ishati y'umutuku, imbere hari undi mugabo uhagaze yambaye umupira w'umutuku iruhande kandi hari imifuka itondetse ku murongo myinshi irimo ibirayi binini.

Ni byiza ko duhinga ibihingwa bigiye bitandukanye, tukarwanya kujya ku masoko cyane guhaha buri kimwe, ahangaha rero turabona igihingwa cy'ibitunguru, hari ibitunguru biteye ku murongo bibyibushye, harimo igitunguru gifite ibabi ririmo gushaka kuma ndetse hakaba n'ibindi bibabi bibyibushye ariko birimo gukora hasi.

lbigori biri mu bihingwa biri gutezwa imbere cyane mu gihugu cyacu, aho usanga abantu babihinga bahabwa ifumbire imbuto ,ndetse bakanabikurikirana umunsi ku munsi .Aha ngaha rero hari ikigori keze, gifite umusatsi wumye ,ariko cyo ntago cyari cyuma, kuko kiracyafite n'amababi y'icyatsi.

Mu Rwanda duhinga ibihingwa ngengabukungu n'bihingwa ngandurarugo, aho asanga mu bihingwa ngandurarugo duhinga harimo n'umucuri, aha ngaha rero hari umugabo wambaye ingofero y'umutuku, agapira karimo uturongo, yicaye mu kimodoka gifite amapine manini cyane kirimo kugendera mu mazi, hakurya yabo kandi hari amashyamba.

Umurima uhinze uteyemo urubuto rufite amababi meza hakurya aho hagiye hateye ibiti ndetse hari n'amazu asakaje amabati y'umutuku, hari amazu yuma ndetse hari n'undi muntu urimo kugenda wambaye umweru hejuru.

Mu rwanda tujya ibihinngo bijya bitandukanye usanga cyane cyane mu karere ka Nyaruguru n'akarere ka Musanze haba ibihingwa by'ibirayi cyane ahangahe rero ni umurima w'ibirayi hateretsemo indobo eshatu z'umukara zirimo ibirayi impande yabyo kandi hari kugaragara amapine ya Moto.

Ibigori biri muhingwa bitezwa imbere cyane mu gihugu cyacu aho usanga bitanga umusaruro mwinshi ,mu gihe abantu bahinga ibigori bahabwa imbuto yo guhinga bagahabwa n'ifumbire ndetse byanakwera bakabafasha kubona ahantu ho kubisarur. Ahangaha rero ni umurima munini cyane uhinzemo ibigori birimo gusambura.

Mu Rwanda duhinga ibihingwa ngengabukungu n'ibihingwa ngandurarugo ariko usanga ibihingwa ngandurarugo aribyo bihinga cyane kuko nibyo bitunga abantu umunsi ku munsi, ahangaha rero hari umurima uhinze uteyemo imyumbati imeze neza, hafi y'imyumbati kandi hateyemo n'ikindi giti.

Mu muhanda wa kaburimbo hari abantu bari kugendamo iruhande rw'iburyo ndetse n'iruhande rw'ibiryo, hafi y'umuhanda kandi hari igiti cy'ipoto cy'urusinga rw'amashanyarazi, impande yawo kandi hari umurima munini urambuye cyane urimo ibyatsi hakurya yaho hateye ibiti.

Mu Rwanda duhinga ibihingwa ngengabukungu n'ibigwa ngandurarugo ariko uba usanga ahanini cyane cyane duhinga ibihingwa ngandurarugo kuko ari byo usanga dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aha ngaha rero hari ibihingwa by'imboga harimo igihingwa kitwa igisusa, iki gihingwa kijya kizana n'ibihaza uretse ko badakunda kubirya.

Igihingwa cy'ibigori kimaze gutezwa imbere cyane aho usanga abaturage basigaye bahinga ibigori bakabyitaho bab bahaye ifumbire ndetse n'imbuto ahangaha rero hari umurima w'ibigori byatangiye gusambura impande y'umurima kandi hari uruzitiro rw'ibyuma.

Mu Rwanda duhinga ibihingwa ngenga bukungu ,ni ibihingwa ngandura rugo, aha ngaha rero ni mu murima uhinzemo amashu ,agiye atondetse ku murongo ,hari amashu abyibushye. Kugira ngo amasha abyibuhe rero ,umuntu ayatera umuti, akayitaho akanayahingira ku gihe.

Ishyamba rifite ibinini byinshi cyane ku ruhande rumwe hari mu ishyamba no hakurya y'umuhanda hari irindi, mu muhanda kandi harimo abantu barimo kugenda, harimo abagabo n'abagore, harimo bambaye amashati y'umweru, harimo abambaye agapira k'umweru ndetse n'undi mugore uri imbere bambaye agapira k'umukara n'ijipo'umutuku.

Ishyamba ririmo ibiti binini birebire, impande y'iri ishyamba hari utuzu tubiri twubatse, tugiye turimo abantu, imbere yabo kandi hari akana kicaye, akandi karahagaze, hari n'umugore urimo kugenda wambaye ikanzu, afashe isakoshi mu ntoki ndetse afite n'imisatsi y'umukara ku mutwe.

Mu mashyamba menshi usanga harimo abantu barinda umutekano, cyane cyane mu ishyamba rya nyungwe. Aha ngaha rero ni mu ishyamba, harimo abantu bacunga umutekano, harimo abadaso babiri bambaye imyenda y'icyatsi ,n'ingofero y'icyatsi, hari n'abasirikare batatu bahagaze bafashe inkoni mu ntoki.

U Rwanda rugira amashyamba menshi cyane by'umwihariko nka nyungwe niryo shyamba rinini dufite rizwi, ahangaha rero ni imibandege irimo amashyamba ndetse n'imisozi hejuru yaho kandi harimo kugenda hagaragara ibicu by'ubururu.

U Rwanda rwacu rufite imisozi myinshi ndetse rukagira n'amashyamba meshi, ahangaha rero turabona ishyamba ryiza rimeze neza harimo igiti kimwe gihagaze kiri gusumba irindi ndetse hakaba hari n'ikindi giti kibyibushye gifite amashami menshi kiri ku ruhande, inyuma yaho kandi ari kugaragara ibicu by'ubururu.

Mu Rwanda tugira amashyamba ajyiye arimo ibiti bitandukanye, harimo ibiti bahinga by'inturuso ndetse n'ibindi bya kimezaha. Aha rero hari ishyamba rinini harimo ibiti bigufi bicucitse, ibindi birebire cyane muri byo kandi harimo igiti kinini kidafite amashami hasi ahubwo cyageze hejuru akaba ariho kigandara.

M Rwanda tugira amashyamba menshi kandi manini cyanecyane nko mu karere ka nyaruguru mu majyepfo usanga hari ishyamba rinini cyane, ahangaha rero ni ishyamba rinini ririmo ibiti birebire kandi bibyibushye hakurya yaho hari imisozi ndetse hari n'ibicu by'umweru.

Mu Rwanda dufite amashyamba menshi cyane cyane Nyungwe niyo izwi ifite ibiti byinshi binini, aha ngaha ni mu ishyamba ririmo ibiti bibyibushye, muri iri shyamba harimo inka ebyiri, imwe ni iy'umukara, indi ni umukara n'umweru, zirunamye zirimo ziri kurisha ubwatsi.

Mu mashyamba uba usanga harimo ibiti bigiye bitandukanye, harimo ibiti bya kimeza ndetse n'ibyo bagiye batera, nk'inturusu baba barateye. Aha ngaha rero hari igiti kinini ,gifite amashami agiye atandukanye, amashami yo hejuru yo yenda kuma, ariko mu mpande aracyameze neza.

Mu Rwanda rwacu ntamunemere gutema ishyamba atabanje gusaba uburenganzira, aho usanga agura gutema ibiti ubanza gusaba uruhushya ubundi akakwemerera gutema kuko ibiti ari ingirakamaro mu buzima bwacu, umunsi ku kumusanga rero hari ibiti batemye bagiye barunda amasiteri.

Mu mashyamba manini uba usanga amatungo, cyane cyane amatungo maremare, niyo bakunda kuzana mu mashyamba kuko amatungo magufi baba batinyaga ko ashobora kujyamo akaba yanaburiramo. Aha ngaha rero ni mu ishyamba ririmo ibiti bigiye bitatanye, muri iri shyamba kandi harimo inka zirimo kurisha.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi, harimo ibiti binini bibyibushye, harimo umudaso wambaye imyenda y'icyatsi na ga mu ntoki hari undi musirikare wambaye imyenda ya gisirikare n'ingofero, yifashe mu mayunguyungu, hari undi mugore uhagaze na we yambaye ga mu ntoki, hari n'undi wunamye yambaye imyenda y'ubururu.

Umukobwa wambaye itaburiya y'ubururu, imbere yambariyemo agapira gafite n'umutuku, yambaye ingofero y'ubudodo mu mutwe arimo gusoroma imbuto, inyuma ye kandi hari abandi babiri bahagaze na bo bambaye ibisarubeti by'ubururu n'ingofero mu mutwe.

ubuhinzi bw'indayabo buzigaye nabwo burimo gutera imbere, aho usanga ahantu hagiye hafatwa, hahinga indabo gusa kandi hagatanga umusaruro. Izi indabo rero zijyanwa ku masoko, bagatunganyamo indabo nziza, zikunda kugurishwa hanze y'igihugu cyacu ndetse no mu gihugu cyacu. Aha ngaha hari indabo, hari iz'umutuku ndetse n'iz'umweru.

Umugore witeze igitambaro cy'umutuku yambaye ishapure y'ubururu mu ijosi n'isakapurayi, yambaye ishati y'igitenge impande y'ahantu ari kandi handitse Horticulture Value Chain & Business continuity in Rwanda.

Umurima uhinze mo inanasi nyinshi harimo umugabo urimo kugenda, wambaye ipantaro n'ikote ry'umuhondo, muri uyu murima harimo iteke impande y'uyu murima kandi hari ishyamba rinini rifite ibiti bigiye bibyibushye bifite amatabe manini.

Amasoko menshi uba usanga agira ibintu by'imboga kandi bihenduka cyane ,kuko usanga aribyo bikunda gukoreshwa mu ngo z'abantu ,kandi bikanahingwaga .Aha ngaha rero hari inyanya zitondetse ahantu hamwe ,puwavuro zigakurikiraho nazo ziri ukwazo, n'intoryi ,ndetse hari n'amashu.

Hari ahantu henshi usanga hahingwa ibitunguru ahanga ni muririma w'ibitunguru by'ibijumba, hari umuntu urimo kurandura ibitunguru byiza bibyibushye hari kugaragara ibitunguru bibiri atangiye kurandura abona ko bifite amabara y'umutuku.

Abagore bishimye barimo guseka, imbere harimo uwambaye umupira w'umukara uwundi yambaye ikoti ry'umukara n'agapira kicyatsi, inyuma yabo kandi harundi wambaye umupira w'umutuku yiteze igitambaro cy'umutuku uhagaze mu ndabo imbere hari indabo zarabye umuhondo.

lnyanya ziri mu bihingwa bigira umusaruro mwinshi iyo uzitayeho neza, ukazitera imiti yose yagenwe ,ukazisarurira ku gihe. Aha ngaha rero hari inyanya zimeze neza zahishije ,aho usanga ku gati kamwe hatondetseho inyanya eshatu kandi zibyibushye, ndetse hari n'izindi ubona ziri impande yaho na zo zidatukuye neza.

Umukobwa urimo guseka, yambaye agapira karimo uturongo tw'umweru n'umukara, afite inanasi ebyiri mu ntoki, mu kaboko k'iburyo ndetse n'ak'ibumoso, inyuma ye hari watameroni, amaronji n'amatunda.

Umugore wambaye ikanzu arunamye arimo kurodurwa ibitunguru impande y'ibitunguru kandi hari imboga zitandukanye, ni byiza kuri mu ngo zacu tugenda tugira uturima tw'igikoni kugira tujye tubasha kubona imbuto n'imboga tubashe kubigura ahandi ahubwo twarabyiyinmgiye mu turi tw'igikoni twacu.

Umukobwa uhagaze mu murima yiteza igitambaro cy'umukara, yambaye agapira k'icyatsi, akenyeye igitenge cy'amabara y'ubururu, afite ibase y'ubururu mu ntoki, yambaye n'agakoma k'umukara mu ntoki, inyuma y'inzu ahantu ari hari ibiti bigiye bizitiye inyuma.

Umugabo wambaye ishati irimo uturongo n'ipantaro y'umukara, afite ikibo mu ntoki kirimo inyanya arimo kuzisuka mu mifuka, hari imifuka myinshi itondetse irimo inyanya zuzuye kandi hasi hari izindi nyaya na zo zihari, hafi yaho kandi hari umuntu uhagaze.

Abantu benshi bari ahantu hamwe, hari abakobwa, abagore ndetse n'abagabo, harimo umugore uhagaze wambaye ikoti ry'umukara ipantaro y'ikoboyi, isharupe mu ijosi, yambaye n'ingofero, afite telefone mu ntoki arimo arafotora, imbere yabo kandi hari undi usutamye arimo kurandura ibitunguru.

Mu rwanda dukomeje gutera imbere, aho usanga dufite ikoranabuhanga rigiye ritandukanye, nta muhinzi ugihinga ngo agira ubwoba bw'uko imyaka ye izera kuko hari uburyo bwinshi bugenda bubafasha mu buhinzi bwabo nk'uburyo bwo kuhira, aha nga rero mu murima, harimo umugabo ufite umupira arimo kuhira imyaka.

ikoranabuhanga ryateye imbere aho usanga abantu bahinga imbuto zabo ku zuba ntabwoba bagira kuko bizeye ko bazakoresha uburyo bugiye butandukanye imbuto zabo bakazuhira, ahangaha rero i umurima uteyemo imbuto, hari umupira urimo hagati urimo kugenda wuhira amazi uri kuyamisha hakurya, impande yaho kandi hari ibiti binini.

Ibihugu bimwe na bimwe bimaze gutera imbere ,aho usanga mu gihe k'izuba batakigira ubwoba bwo guhiga, kuko hari uburyo bwinshi butandukanye bwo kuhira imyaka kugira ngo ituma. Aha ngaha rero ni mu murima harimo ibihingwa ,hari umugabo uhagaze, ufite umupira mu ntoki arimo kohera inyuma ye kandi hateye ibiti.

Mu Rwanda tumaze gutera imbere ahari ikoranabuhanga rigiye ritandukanye nko guhinga imyaka kuzuba tukayuhira bitewe n'ikoranabuhanga rihari. Ahangah rero hari abantu babiri umugabo n'umwana bari mu murima w'amashu, hari umwana ufite umupira arimo kuhira amashu umupira ucometse ku mashini.

Ikoranabuhanga rimaze kwiyongera cyane aho usanga tutakigira ubwoba bwo guhinga imyaka yacu mu gihe cy'izuba kuko hari uburyo bu dukoresha twuhira imyaka yacu, ahangaha rero harimu umugabo wambaye ingofero y'ubururu n'umweru, agapira k'umweru karimo ubururu, n'ipantaro afite umupira mu ntoki arimo kuhera.

Ikoranabuhanga ryabaye ryinshi aho usanga iyo twahinze imyaka mu gihe cy'izuba nta bwoba tuba dufite, kuko tuba twizeyeko tuzabona uburyo bwo kuhiranga. Ahangaha rero ni umurima wahinzemo imyaka hari abantu benshi bahagaze bafite umupira barimo kuhira imyaka inyuma yabo kandi hateye ibiti, muri aba bantu harimo umuntu wambaye aka gofero k'umutuku.

Ikoranabuhanga rikomeje kuba ryinshi aho usanga mu gihe cy'izuba iyo twahinze imyaka ntabwo batukira, kuko tuba twizeye ko tuzabona uburyo dukoresha twuhira imyaka. Ahangaha rero hari umurima uhnzemo imyaka hari umugore n'umugabo, umugore ari imbere yafashe umupira arimo kuhira, ndetse n'umugabo uri inyuma wambaye umupira w'umutuku arimo kuhira, hafi yahantu bari kandi hateye imibyare ndetse hateye n'ibiti.

U Rwanda twateye imbere aho usanga uburyo bwo tugenda dukoresha mu buhinzi cyanecyane nko kuhira haje ikoranabuhanga usanga iyo twahinze imyaka mu gihe cy'izuba ntabwoba tuba dufite, ahangaha rero hari imyaka ihinze ku murongo harimo imipira irimo kugenda yuhira amazi.

Umwana uri mu murima wambaye ishati ,akenyeye agasharupe k'umukara, afite rozwari mu ntoki y'umukara, arimo kuhira ari mu murima w'amashu menshi, impande ye kandi hari akazu gatoya kubatse, gashakaje ibati impande y'aka kazu hari imodoka iparitse iri impande y'igiti.

umugabo munini wambaye ishati y'ubururu bwerurutse ifite udupensi tw'umukara, impande ye hari icyapa cyanditseho GAH, hepfo yaho handitse objective of the project, objective ya mbere ihari ni create a "leap-frog" development of Rwanda's agricultural ecosystem.

Abantu benshi bara ahantu hamwe barimo abakobwa, abagabo n'abagore, harimo umugabo uhagaze arimo kuvuga yambaye ipantaro y'umukara. inkweto z'umukara, n'ingofero. Impande ye kandi hari umukobwa wambaye ipantaro y'ikoboyi nijire hari n'abandi bahagaze bafashe amasuka mu ntoki inyuma yabo hari ishyamba.

Abantu bari ahantu hamwe, barimo umugore uri imbere wambaye ijipo ndende cyane y'igitenge, afite umupira mu ntoki arimo kuhira, hakurya ye kandi hari undi urimo kugenda wambaye umupira w'umweru n'ipantaro na yo y'umukara ndetse hari n'undi wambaye ishati y'umuhondo, ipantaro y'umukara na we afashe umupira mu ntoki, hari n'abandi barimo gukora ku mashini.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi undi yawushyize ku rutugu, afite icyatsi mu ntoki ndetse yambaye ni'pantaro yayihinnye afite umupira mu ntoki arimo kuhira imyaka impande ari kuhira kandi ateye igiti kinini ndetse ari n'akandi gati gato cyane.

Ikoranabuhanga ryabaye ryinshi, aho usanga abantu bahinga imyaka yabo ku zuba ntabwoba bagira ibihinbwa byabo bizangirika, ahangaha rero ni umurima urimo imyaka, harimo abantu benshi bahagaze mu murima, barimo umuntu wambaye akagofero k'umutuku, inyuma ye kandi hari umupira urimo kugenda wuhira imyaka.

Mu rwanda ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere, aho bagenda bashyiraho uburyo bushya bwo kuhira, bigatuma abahinzi bahinga imyaka yabo ku zuba batagira ikibazo cy'imyaka ko izangirika . Ahangaha ni umurima uhinzemo imyaka, impande y'umurima hubatse ikintu bakoresha buhira barimo kuhira iyi myaka.

Ikoranabuhanga ryabaye ryinshi aho usanga tugitinya guhinga imyaka mu gihe cy'izuba kuko twahinze haribyo dukoresha tukuhira iyo myaka, ahangaha rero ni umurima uteyemo imyaka itondetse ku murongo mu muririma kandi harimo imipira igenda yuhira amazi muri iyi myaka.

Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere aho hari uburyo bwinshi dukoresha twuhira imyaka kugirango itabasha kuma, ahangaha rero hari umurima uteyemo imbuto harimo abantu bahagaze, bambaye amasarubeti y'ubururu ,bote zumukara hari umukobwa ufashe umupira mu ntoki arimo kuhira.

Ikoranabuhanga rikomeje kuba ryinshi mu rwanda aho usanga abahinzi bahinga imyaka batakigira ubwoba uko imyaka yabo izaba imeze mu gihe cy'izuba kubera ko hari uburyo bwinshi bagenda bakoresha harimo kuhira hangaroni mu murima harimo uburyo bakoresha buhira barimo kuhira imyaka yabo kugira itazomaywa.

Igihugu cyacu kimaze gutera imbere, aho hari uburyo bwinshi bagenda bakoresha buhira imyaka, abaturage bakuze bahinga imyaka kuko baba bizeye neza ko bazabona uburyo bwo kuhira, ahangaha hari umugore uyagitenge yambaye agashati k'umutuku afite rozwari mu ntoki arimo kuhira, hirya kandi hari undi uhagaze ukenyera igitenge yambaye isengeri yifashe mu mayunguyungu.

Ikoranabuhanga ryabaye ryinshi aho abantu bashaka kuhira imyaka yabo bitabagora, bahinga imyaka ku zuba ba bundi bakazayuhira, ahangaha rero ni mu murima w'ibihingwa birimo umugabo uhagaze imbaga mu kanwa k'umuhondo yambaye ikote ry'umupira w'icyatsi washo gutwa y'icyatsi mu ntoki arimo guhera imbere hari'indiroswaye iteretse

Ikoranabuhanga ryabaye ryinshi mu gihe cyo kuhira imyaka bitakigorana kuko hari ari uburyo bwinshi bugenda bukoreshwa ndetse butanagoye, ahangaha rero hari abagabo babiri bambaye amasabeti y'ubururu, ingofero z'umweru, boto z'umukara, bahetse imashini mu mugongo, bari mu myaka barimo kugenda buhira, hakurya yabo kandi hari ishyamba rinini ndetse mu murima harimo n'abandi bantu barimo kugenda munsi.

Mu Rwanda tumaze gutera imbere, aho usanga ikoranabuhanga rigiye ritandukanye, nk'urugero nk'uburyo bwo kuhira imyaka byaroroshye, haje imipira myinshi n'amamashini bigenda bifasha abantu mu gihe buhira imyaka, mu gihe cy'izuba bakoresha imipira bakayuhira umurima uhinzemo imbuto, buri mu sitari imbuto, hariho umupira wuhira amazi.

Umugore ukenyeye igitenge, wambaye ishati, yiteza igitambaro, afite indobo y'umukara irimo amazi arimo kuhira imyaka iri mu murima, impande y'uwo murima hakikijwe n'ibiti byinshi bigiye bifite amashami menshi.

U Rwanda rumaze gutera imbere aho usanga hari ikoranabuhanga rigiye ritandukanye ,nk'uburyo bw'uko bakoresha barimo kuhira ibihingwa. aha ngaha rero hari umugore ubyibushye ,wambaye isengeri n'igitenge. Afite umupira w'ubururu mu ntoki, arimo kuhira umurima we ,umurima ahagazemo hateyemo insina.

Ni byiza ko mu gihe cy'izuba twajya twuhira imyaka yacu kugira ngo itazarumba kuko ntavure buririmo kugwa, ahangaha rero hari umukobwa uhagaze buri mu kuhira afite rozwari y'icyatsi mu ntoki mu uyu murima urimo kandi akikijwe n'ibiti binini.

Ikoranabuhanga ryabayeye ryinshi aho usanga abaturage bahinga imbuto zabo yaba no mu gihe cy'izuba kuko baba bizeye ko bazabona uburyo azakoresha buhira. Ahangaha rero hari umugabo uri mu murima wambaye umupira urimo ubururu ,umweruru ,n'umukara, yambaye bodaboda, yambaye n'ipantaro yahinnye ndetse n'ingofero. Arahagaze afashe umupira mu ntoki arimo kuhira imyaka impande ye kandi muri uyu murima hari igiti kinini.

Abagabo babiri bahagaze bambaye ishati yumutuku, isaaha ku kuboko, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, undi nawe yambaye amataratara bahagaze imbere y'amazi hakuno yayo urimo gutunga agatoki hakurya mu ishyamba.

Ikoranabuhanga ryabaye ryinshi aho usanzwe twarenze imyaka mu gihe cy'izuba twifashishije imipira ndetse n'imashini zigiye zitandukanye tukuhira imyaka yacu angahe rero hari umuntu uhagaze mu ndabo yambaye agapira k'umutuku n'umukara afite umupira arimo kuhira indabo zemwe.

U Rwanda dukomeje gutera imbere aho usanga tutakigira ubwoba bwo guhinga imyaka mu gihe cy'izuba, haje imashini zifashishwa mu kuhira, ahangaha turabona umugabo wambaye umupira n'ipantaro y'umukaraga ga mu ntoki ahetse ikintu mu mugongo arimo kugenda yuhira imyaka.

Mu Rwanda tumaze gutera imbere, aho usanga tutagitinya guhinga imyaka yacu mu gihe cy'izuba kuko hari uburyo bwinshi bwo kuhira imyaka, ahangaha rero hari ikiyaga kinini kirimo amazi menshi, impande y'amazi hari ibyatsi ndetse hateyewe n'ishyamba rinini, impande yaho kandi hari ibyuma bisize amarangi y'umweru n'umutuku.

Ubungubu ntabwo tukigira impungenge zo guhinga imyaka yacu ku zuba kuko hari uburyo bwinshi bwifashishwa mu kuhira, kugira ngo imyaka yacu itabasha kuma cyangwa ikarumba. ahangaha turabona abantu umwe yambaye umupira w'umutuku arunamye, undi ari inyuma ye yambaye umupira y'umutuku barimo kuhira imyaka mu murima.

Ikibaya kinini gihinzemo icyayi, hari icyayi kimeze neza hagiye haciyemo imisitari muri iki cyayi kandi impande y'iki cyayi bagiye bazengurutsaho ibiti binini, aho byagiye bikura bikazana amatabi manini, hakurya y'aho kandi hari kugaragara umusozi ndetse hari n'ibicu by'umweru n'ubururu.

Ikibaya kinini gifite n'imisozi iteyeho ibiti, kuri iyi misozi hagiye haciye amaterasi y'indinganire, impande y'iri shyamba kandi hagiye hari inzu zubatse zisakaje amabati, izi nzu zigiye zegeranye nk'inzu iri inyuma ibiti byagiye bikora hejuru ku ibati.

Amazu menshi ari ahantu hamwe, asakaje amabati, harimo akazu kubakishije ibiti, gasakaje amabati, inyuma y'aka kazu hateye ibiti byinshi ndetse hafi ya'aya mazu kandi hari imisozi minini, iteyeho ibiti bigiye bitandukanye.

Ikibaya kinini kigiye giteyeho ibiti byinshi harimo ibiti bya kimeza ndetse n'indi baba baragiye batera, hakurya kandi igihe hari imisozi iriho n'amashyamba hejuru yaho hari ibicu by'umweru n'iby'umukara.

U Rwanda rwacu rugizwe n'imisozi myinshi, hari abavuga ko dufite u Rwanda rw'imisozi igihumbi ndetse tukagira n'amashyamba nka nyugwe, ahangaha rero ni mu kibaya giteyemo ibiti bike bitandukanye, hejuru y'iki kibaya hari ibicu by'umweru n'ubururu n'umukara.

Ikibaya kinini cyrimo amazu menshi asakaje amabati, agiye yubatse mu dutsiko, udutsiko, hateyemo ishyamba hagiye harimo utununga n'imisozi twinshi, muri iyo misozi kandi hagiye hari amashyamba menshi yacutse yegeranye ahandi hari ibiti bigiye bitatanye.

Mu Rwanda tugira imisozi myinshi kandi minini, ni cyo gituma bavuga ngo u Rwanda n'urw'imisozi igihumbi, aha ngaha rero tuhafite ibibaya bigiye biteyeho ibiti biciwe n'amatarasi y'indinganire, hakurya y'iki kibaya hariho igicu cy'ubururu n'umweru.

Inka nini zihagaze zitondetse ku murongo, zifite amahembe manini ahagaze, inyuma yazo hari abantu bambaye amataburiya y'umweru ndetse hari n'abambaye amasarubeti y'ubururu, hafi y'aho kandi hagiye hateye ibiti, biteye bitegeranye bitatanye ariko bifite amatabi manini.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere cyane ,aho usanga abantu benshi basigaye borora inkoko, kuko zitanga umusaruro mwiza. Aha ngaha rero hari inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe, muri izi nkoko harimo abagabo babiri bahagaze bambaye bote z'umukara.

Inka nini zibyibushye, zifite amahembe manini, zitondetse ku murongo, impande y'izi nka hari abantu bahagaze bamwe bambaye amasarubeti y'ubururu, abandi babiri bambaye amataburiya y'umweru na bote z'umweru, impande yabo kandi hari intebe ya sheze itecayeho umuntu.

Inka ziri mu biraro, muri ibi biraro kandi harimo abantu bahagaze, umwe yambaye imyenda y'umukara, bote z'umweru ndetse undi yambaye igishati cy'umweru, ingofero y'umweru, hari n'undi wambaye ingofero y'umutuku yayirebesheje inyuma, ahetse amaboko.

Inka nini zifite amahembe manini zihagaze mu kiraro, inyuma yazo hari abantu bambaye motabu y'umweru ndetse n'abambaye imisarubeti y'ubururulombaye bote z'umweru ingofero y'umweru inyuma kandi hari umugabo uhagaze ushyize amaboko inyuma yambaye bote z'umukara ipantaro y'ikoboyi n'agapira k'umukara.

Mu ntara y'Iburarasirazuba habamo inka nyinshi nziza cyane, aha ngaha turi kubonamo inka ifite amabara y'umweru n'umukara, ifite icbe rinini ubona ibyibushye cyane, ifite umurizo wenda gukora hasi, iri mu kiraro k'ibiti.

Inkoko ziri mu matungo magufi asigaye atanga umusaruro munini aho usanga abantu benshi barabigize umushinga, ahangaha rero harimo imishwi myinshi y'inkoko ndetse ahantu harimo n'abantu umwe arahagaze undi arunamye hagati yabo hari ikidomoro kinini cy'ubururu.

Inka nyinshi zifite amahembe manini zihagaze kumurongo impande y'izi nka hari abantu bahagaze bamwe bambaye ibisarobeti by'ubururu abandi bambaye amataburiya y'umweru na bote z'umweru, impande yabo hari intebe ya sheze imbere y'iyo ntebe hahagaze umuntu wambaye ubusa hejuru.

Ubworozi bwiza bw'inkonko bumaze gutera imbere, aho usanga abantu henshi basigaye borora inkoko, hari n'inkoko zisigagaye zikurira mu minsi mirongo ine n'umwe yonyine zikaba zakuze, aha ngaha rero turahabona inkoko nyinshi ziri hamwe ubona ko zirimo gutora.

Ubworozi bw'inka bugira umusaruro munini, aho usanga abantu borora inka bakunda kubona amafaranga cyane, aha ngaha rero hari inka nini zifite amahembe manini, inyuma yazo hari abantu bambaye amataburiya y'umweru na bote z'umweru ndetse harimo n'abandi bambaye amasarubeti y'ubururu.

Umugabo wambaye ikoti ry'umutuku n'umukara, yambaye ipantaro y'itiriningi y'umukara irimo n'imirongo y'umweru ku ruhande, yambaye n'inkweto z'ubururu, imbere ye kandi hari inka nyinshi zifite amahembe manini zirimo kuririsha, hafi y'izi nka hagiye hateye ibiti bigiye bitatanye.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere, aho usanga hari abantu benshi basigaye borora inkoko nk'imishinga, hari inkoko zikurira iminsi mirongo ine yonyine, aha ngaha rero hari inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe mu kibuga cy'ibyatsi impande yaho hakikijwe n'ibiti.

Inka nini ziri mu kiraro zifite amahembe manini imbere yazo ahagaze umukobwa witeze igitambaro cy'umukara mu mutwe, itaburiya y'umweru, ijipo y'igitenge na ga z'ubururu mu ntoki, hirya ye kandi hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara ingofero mu mutwe n'ishati y'umweru.

Ubworozi bw'inkoko bwateye imbere, aho usanga hari inkoko zisigaye zitera amagi buri munsi. Aha ngaha hari umugabo wambaye imyenda y'ubururu, bote z'umukara, ari mu nkoko arimo kugenda azitaho. Muri izi nkoko kandi harimo ahantu zigenda ziterera hari amagi atondetse ku murongo n'inkoko z'isake.

Ubworozi bw'amatungo maremare bujyira umusaruro munini, aho usanga nk'abantu borora inka agurisha inka imwe akagororaka umurima, ahangaha rero rero hari inka nyinshi ziri mu rwuri zirimo kurisha, inyuma yazo hari inyaga zifite ibara rya kake itarimo kurisha hafi ziba ziri kandi hateye ishyamba ririmo ibiti binini.

Inka zifite amahembe manini ziri mu kiraro cy'ibyuma inyuma yazo hari abantu bahagaze, umwe yambaye itaburiya y'umweru na bote z'umweru akoze mu mifuka, undi yambaye isarubeti y'ubururu, undi na we yambaye umweru arimo gukora ku nka.

inkoko ziri mu matungo asigaye yororwa cyane kuko zitanga umusaruro munini aho usanga ari kuko basigaye barora mu gihe kitarenze ukwezi kumwe ugasanga babonye umusaruro. Ahangaha rero hari imishwi imeze neza igiye irimo kurebana imwe irimo kugenda indi irimo gutora.

Ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere aho usanga abantu benshi basigaye borora inkoko, kuko zisigaye zigira umusaruro mwinshi. Ahangaha rero hari inkoko nyinshi ziri hamwe, muri izi nkoko hari inkoko ihagaze ku ndobo y'umweru ifite umufuniko w'umuhondo.

Mu gihugu cyacu ubworozi bwateye imbere aho usanga hari abantu benshi bagenda bakora ubworozi, yaba ubw'amatungo magufi ndetse n'amatungo maremare byose barabikora, aha ngaha rero hari ubworozi bw'inkoko, aha ngaha hari inkoko nyinshi hasi yazo hari aho zigenda ziterera amagi.

Ubworozi bw'amatungo bumaze gutera imbere aho usanga cyane cyane amatungo magufi asigaye ahenda aha ngaha turabona ubworozi bw'amatungo harimo ihene, muri izine kandi harimo abantu, harimo uwambaye umupira w'umuhondo arimo kugenda, inyuma ye hari abandi babiri bahagaze bafatanye akaboko.

Inka nyinshi zitondetse ku murongo ziri mu kiraro, zifite amahembe manini ahagaze hejuru, inyuma yazo kandi hari abantu bambaye amatabera y'umweru, abandi yambaye amasarubeti y'ubururu, hari umuntu wambaye bote z'umweru ndetse hari n'undi ubona ko arimo kurira hejuru ku biraro.

Ubworozi bw'amatungo ni byiza ko abantu babukora kuko bugira umusaruro uhagije iyoyitayeho neza, ugashaka abaganga b'amatungo bakaziha imiti bakazitera n'inshinge, aha ngaha rero turahabona intama eshatu ziryamye hamwe zimwe zasinziriye.

Inka nyinshi ziri mu rwuri, zirimo kurisha bifite ibara ry'umukara, impande y'izi nka, hari igiti kinini kigandaye, gifite amashami menshi, hafi yacyo kandi hari ibindi biti bigiye bizengurutse, hafi y'aho izi nka ziri.

Inka nyinshi ziri ahantu hamwe zimwe zirimo kugenda, indi zirunamye zirarimo kurisha izindi zirahaga, muri izi nka kandi hakurya hari umuntu uhagaze ndetse ahantu hari inka hagiye harimo ibiti bike biteye bitataniyeye.

Ubworozi bw'amatungo magufu buri mu bworozi nabwo butanga umusaruro iyo babyitayeho ndetse ukanabukora neza, ahangaha rero hari inkwavu ebyiri ziri ku murongo ndetse n'urundi ruri imbere ruri rwonyine, impande y'inkwavu kandi hari abantu barimo abakobwa n'abahungu bambaye amatabura y'umweru hagati muri bo hari uwambaye imyenda y'umukara.

inka zihagaze ku kumurongo, inyuma yazo hari abantu, hari abambaye amateburiya y'umweru ibisarubeti by'ubururu, harimo umugabo wambaye igisarubeti cy'bururu, ingofero y'umweru, na bote z'umweru, inyuma ye hahagaze uwambaye agapira k'umukara, ipantaro y'ikoboyi na bote z'umukara.

Ubworozi bw'ingurube buri mu bintu abantu badakunda korora bakanabyanga, ariko mu by'ukuri ingurube zitanga umusaruro munini kandi utubutse usanga nk'abasilamu atakwemera korora ingurube ye, ahangaha rero hari ingurube eshatu ebyiri zirasada imwe ntago isa nazo.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane, aho usanga abantu benshi basigaye borora inkoko kuko zigira umusaruro munini. Aho usanga inkoko basigaye borora mu minsi mirongo ine n'u umwe ukaba wayirya. ahangaha rero ni inzu nini ibamo inkoko harimo imishwi minini cyane itondetse ku murongo indi iri hirya no hino i jagaraye.

Mu rwanda hari abantu bakora ubworozi bw'inka cyane, cyane cyane mu ntara y'iburasirazuba, hari nka nyagatare ndetse n'ikirehe, Aha ngaha rero hari inka nyinshi ziri mu ifamu, zimwe ziri kurisha izindi zirahagaze, muri zo harimo inka y'umweru ,ahantu inka ziri kandi ,harimo umuntu uhagazemo wambaye umupira w'umutuku, inyuma yazo hari igiti kinini gifite amatabi.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi bumaze gutera imbere, bunatanga umusaruro usanga hari inkoko zisigaye zororwa, mu minsi mirongo ine n'umwe wo nyine, ugasanga inkoko ziri kujya kuribwa. Aha ngaha rero hari inkoko z'umweru, zifite ibiroko roko by'umutuku, ziri ahantu hamwe, imwe iri gutora izindi zirahagaze zirimo kuyireba.

Inka nyinshi ziri ahantu hamwe, zimwe zirimo kurisha izindi zirahagaze, gusa muri izi nka harimo umuntu urimo gutunga agatoki, hakurya impande y'izi nka kandi hateyemo ibiti byinshi bigiye bibyibushye.

Inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe, muri izi nkoko uhagazemo umugabo wambaye itaburiya ry'icyatsi afashe inkoko mu ntoki. Ubuhinzi bw'inko rero bukomeje gutera imbere aho usangagara murico agendahorororerwa inkoko akazizitaho neza kugira ngo zitange umusaruro ufatika.

Ubworozi bw'inko bumaze gutera imbere, aho usanga ari ahantu henshi hasigaye hakorwaga imishinga yokorora inkoko bamwe baraturagisha abandi bakorora inkoko nini, ugasanga inkoko zabo zikurira iminsi itarenze mirongo ine n'umwe, ahangaha rero turabona inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe impande yaho izi nkoko ziri hari ikigega cy'umukara.

Abantu bari ahantu hamwe, hari umugabo wambaye imyenda y'umukara, ingofero y'umutuku n'amarinete mu mutwe, imbere hari undi mugabo usutamye wambaye bote z'icyatsi arimo araha ihene umuti, impande yabo hari akazu k'ibiti, gasakaje amabati.

Inka y'umukara impande y'inka hari umugabo uhagaze uri kureba inyuma yambaye ingofero yumutuku, impande ye hari undi mugabo uhagaze wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara afite inkoni mu ntoki n'igicuba mu ntoki hafi yabo kandi hari undi usutamye yambaye umupira'umweru arimo gukama.

Inkwavu zigira umusaruro mwiza iyo wazitayeho neza, ahangaha rero hari abantu benshi bambaye amatabera y'umweru harimo abakobwa n'abahungu harimo uwambaye ikote ry'umukara hari n'umbayetabiro yu'umweru imbere yambayemo agapira k'umukara kandiditseho ibintu by'icyatsi imbere yabo harikwavu nyinshi ziri mu kintu zibamo.

Ibigori byinshi basaruye birambitse ubu mde yabyo hari abantu benshi zimo abagabo n'abakobwa n'abagore n'umukobwa bunamye yambaye agapira k'umweru ipantaro y'koboye nyuma undi yambaye agapira k'umutuku n ipantaro y'ikwabaye hari n' za yambaye ingofero ayisengere y'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Ibigori ni igihingwa gikomeje gutezwa imbere cyane, aho usanga abaturage benshi basigaye bahinga ibigori bakanabyitaho kugira ngo babona umusaruro munini, ahangaha rero hari ibigori byumye bakuyeho amababi, biteretse ahantu hamwe mu mifuka y'umweru.

Igihingwa cyi'ibigori ni igihingwa gikomeje gutera imbere cyane mu gihugu cyacu usanga kigira umusaruro munini cyane bigatuma n'abantu bahinga babyitaho bakabihinga cyane aha ngaha rero hari ikigori cyumye kibyibushye hari ibigori bibiri byenda gusarurwa.

Mu Rwanda duhinga imbuto nyinshi zigiye zitandukanye aho usanga duhinga ibishyimbo hari ibishyimbo bya gapanga bya kigondo, aha ngaha rero hari ibishyimbo by'amoko abiri bimwe n'ibini ibindi ntago ari binini hari n'amashaza ndetse n'ibisate.

Umuntu wambaye igisarubeti ahagaze ahantu hari imifuka y'ibiro jana, imifuka y'umweru ku ruhande ifite indodo z'umuhondo, iyi mifuka igiye ifunze neza aho ibintu birimo bitameneka, uyu muntu kandi uhagaze afashe umweyo bajombyemo igiti kirekire.

Igihingwa cy'ibigori gikomeje gutezwa imbere mu Gihugu cyacu, aho usanga abantu benshi basigaye bahinga ibigori babyitayeho, aho bahabwa ifumbire yo gushyira muri ibyo bigori bagahabwa n'imbuto, aha ngaha rero turabona ibigori byumye, bahunguye hari umuntu ufashe ibigori mu biganza byombi.

Imbuto nyinshi mbere yuko bazitera barabanza bakazitoranya, usanga bakunda kuzitoranyiriza ku bintu byitwa intara, aho usanga bagenda bafata kamwe kamwe mu ntoki bakarebamo inziza izapfuye ntibazitere, aha ngaha rero hari umuntu ufite intara ndetse afite n'imbuto mu ntoki arimo gutoranya.

Nibyiza ko duhinga imbuto kuko ari ingirakamaro mubuzima bwacu . Ahangaha turabona umugabo wambaye ishati y'umweru, ingofero y'umukara, afashe inkoni mu ntoki ndetse n'imbuto ziri mumufuka, inyuma ye kandi hari imifuka myinshi ifunze.

Ikoranabuhanga rikomeje kuba ryinshi, aho usanga hari ibintu byinshi bigenda bihinduka ugereranyije na kera. Ahangaha rero ni ahantu bavurira inkoko cyangwa se bororera inkoko, abantu bakunda kuhakoresha cyane ni abantu borora zino nkoko zikurira minsi mirongo ine n'umwe ni bo usanga bazororera hano hantu.

Ubuvuzi bw'amatungo bukomeje gutera imbere, aho usanga nta bantu bagipfusha amatungo ngo babuze uburyo bayavuramo, aha ngaha rero ni ahantu haturagishiriza inkoko bakazorora, harimo akana gahagaze ndetse harimo aha n'imishwi y'inkoko, hamwe n'utundi tuntu tugenda dufasha inkoko mu buzima bwazo bwa buri munsi.

Inka iri mu kiraro, impande y'inka hari hagabo babiri umwe yambaye igisarubeti cy'ubururu afashe umurizo w'inka, undi yambaye igisarubeti ry' ubururu, ingofero y'umweru na bote z'umweru, ahagaze inyuma arimo gukora ku nka.

Ni byiza ko mbere yo kubaga inyama tugomba gushaka ba veterineri bakaza kuzipima bakareba niba zujuje ubuziranenge ahangaha hari abaveterineri babiri umwe yambaye amatarataratabirira y'umweru na gaz'umweruru mu ntoki bigaragara ko arimo gufata inyama mu ntoki, impande hari undi ubona ko yunamye yambaye bote z'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abantu batatu bahagaze imbere y'inzu barimo uwambaye umupira w'ingofero w'umutuku, undi yambaye uw'umukara, bafite umupira wo gukina mu ntoki. Hari n'undi muhungu wunamye afashe imbwa yayambitse ikiziriko mu ijosi, impande yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati.

Mu myaka yashize amatungo yakundaga gupfa kuko nta bantu bo kuyavura bari bahari ariko ubu ngubu byaroroshye, aho usanga mu mashuri hirya no hino hari amashuri yigisha iby'ubuvuzi bw'amatungo. Aha ngaha rero hari igikoresho cy'ubururu gikoreshwa bashyiramo imiti bakoresha bagiye kuvura amatungo, giteretse ku ntebe y'umweru.

Babiri umwe yambaye umupira w'umweru, urimo amabara y'umukara, ipantaro y'umukara, inkweto z'umuhondo n'amasogisi y'umukara hari undi wambaye umupira w'umweru urimo amabara y'umutuku, afite umusatsi mwinshi, bigaragara ko arimo kuvura itungo, barishyize ku kiringiti kirambuyeho igitambaro cy'icyatsi.

Mu Rwanda ubuvuzi bwateye imbere aho usanga dufite abakozi bavura abantu ndetse n'abavura amatungo kandi bose bafite imyenda yabugenewe bifashisha mu kazi kabo, ahangaha rero hari abaganga b'amatungo bambaye amatabura y'umweru na ga z'ubururu mu ntoki.

Umuvuzi w'amatungo uzwi ku izina rya veterineri, yambaye isarubeti y'ubururu na ga mu ntoki, imbere ye hari inka iri mu kiraro, arimo kuyikora mu kibuno bigaragara ko ashobora kuba agiye kuyibyaza cyangwa se kuyivura, impande ye hari nka ihagaze hafi yaho kandi hari urwuri ruteyeho ibiti.

Ubuvuzi bw'amatungo bukomeje gutera imbere, aho usanga inka zigiye kubyara rimwe na rimwe n'abaveterineri baza kuzifasha. Ahanga rero hari inka nini ifite amabara y'umweru n'umukara, hanyuma inyuma yayo hari umu veterineri wambaye igisarurweti cya kake, akagofero k'ubururu mu mutwe, arimo gukoza akaboko mu kibuno cy'inka.

Inka nini zifite amahembe manini ziri ahantu hamwe mu kiraro inyuma yaho hari abantu bambaye amataburiya y'umweru, harimo umugore witandiye igitambaro cy'umukara, hari abagabo babiri bambaye amasarubeti y'ubururu, umwe muri bo yambaye bote z'umweru, ingofero y'umweru inyuma ye hari undi uhagaze ahetse amaboko, yambaye ipantaro y'ikoboyi, inkweto za bote ndetse n'umupira w'umukara.

Mu rwanda dufite ubuvuzi bugiye butandukanye, aho usanga dufite n'abavuzi b'amatungo aribo bazwi ku izina rya veterineri, aha ngaha hari umugabo uhagaze wambaye isarubeti y'ubururu agapira k'umweru imbere ingofero, ga z'ubururu mu ntoki impande, kandi hari abandi bagabo babiri bahagaze bafashe ku biti.

Inka nini zifite amahembe manini zirimo kugenda, inyuma hari inka ifite umurizo yamanitse hejuru, impande y'aho kandi hari inzu isakaje amabati y'umutuku, inyuma y'iyi nzu hari ishyamba ririmo ibiti byinshi bigiye byegeranye.

Kera amatungo yararwaraga agapfa ,kuko atari afite abantu bayavura ,ariko ubu byaroroshye aho hari abaganga bita ku matungo . Aha ngaha rero turahabona umuganga w'umukobwa ,wambaye igitabura cy'ubururu yicaye ku ntebe y'umukara, yambaye agapfukamunwa, amarinete, afite ibisuko by'umukara ku mutwe.

Inka zitondetse ku murongo zifite amahembe manini impande yazo hari abantu benshi harimo abagabo n'abagore barimo bambaye ibisarubeti by'ubururu n'abambaye amataba y'umweru inyuma kandi ahagaze umugabo wambaye umupira wumukara ipantarokoboyi na bote z'umukara hafi yabo hateye igiti.

Mu Rwanda hari ubuvuzi bwinshi aho hari n'abavuzi b'amatungo, mu gihe amatungo yarwaye biroroha bakaza kuyavura. Ahangaha rero hari abantu batatu bafashe inka y'umukara ndetse na veterine cyangwa se umuvuzi w'amatungo wambaye itaburiya y'umweru ga mu ntoki z'ubururu na bote z'umukara arimo gutera inka urushinge.

Inyamaswa ziba mu rugo ahanini uba usanga n'abantu bazirya, mu gihe inyamaswa zo mu mashyamba no mu mazi iziribwa ari nke, aha ngaha rero hari imbata, hari urubata runini ndetse n'akabata gatoya, urubata runini rusa n'uryamye ndetse agato ko nako karyamye.

Hari utunyamaswa twinshi usanga twibera mu mashyamba mu biti ndetse no mu ntoki, aha ngaha rero hari ikiyoni gifite umujosi muremure, gihagaze ahantu hari ibiti, hafi yacyo kandi bigaragara ko hari inyanja y'amazi menshi.

Mu mashyamba usangamo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye harimo impara, ingwe n'imparage. Ahangaha rero ni umurima harimo inyamaswa eshatu zirimo kugenda impande yaho hari ibiti binini bibyibushye inyuma y'ibi biti kandi hari inzu.

Mu mashyamba haba habamo inyamaswa zigiye zitandukanye; hari izirya ibyatsi ndetse n'izirya inyama n'izirya imbuto. Ahangaha rero, turabona inyamaswa ebyiri, imwe ni icyana indi ni nyina icyana, kirimo kurigata nyina na nyina yasohoye ururimi.

Inyamaswa ziri mu ishyamba zose zaryamye, hari ifite amabara y'umweru n'umukara, hari ihene y'umusheru ndetse harimo n'akana gato karyamye hagati yazo, hari ibiti binini bifite amababi abyibushye.

Inyamaswa ziba mu ishyamba ndetse no mu mazi uba usanga kenshi abantu bazitinya kuko ziba zirya abantu. Ahangaha rero hari urusimba runini ruryamye rwasamye ururimi ruhanze rufite amenyo manini amenyo abiri yo hejuru ari imbere ndetse n'ayo hasi n'ayo ari imbere arimo kugaragara.